Uburezi bw'abana mu Rwanda bwitaweho. Ni yo mpamvu umwarimu wambaye itaburia y'amaboko magufi y'umweru, n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye ahagaze imbere y'abana bato barimo abahetse ibikapu mu mugongo n'abandi bafite amakayi mu ntoki.

Uburezi ni inkingi ya mwamba ku gihugu cy'u Rwanda, abana bato iyo bitaweho bagahabwa uburezi bunoze buboneye, babaho neza kuko nta cyatuma badatekana, abarimu babihuguriwe bigisha amasomo atandukanye abo bana, ni yo mpamvu iruhande rw'amashuri ashakaje amabat y'ubururu hari umwarimu uri kumwe n'abana bari ahantu bagenda bapfura utwatsi.

Mu Rwanda, leta yafashe gahunda yo kwigisha abana bakiri bato, bakajyanwa mu ngo mbonezamikurire, bikabafasha kwigishwa amasomo agiye atandukanye, arimo ikinyabupfura, ayo kwandika no gusoma, ayo kuririmba, n'andi afasha abo bana kugira imibereho myiza.

Ibigo mbonezamikurire byaragwiriye, ni ahantu abana bato bari hagati y'imyaka itatu n'itanu bajyanwa maze bakajya bitabwaho, baragaburirwa, bakabwirwa inkuru, bakigishwa ikinyabupfura ndetse ubwonko bwabo bakabukangura.

Urugo mbonezamikurire ahantu abana bajyanwa bakitabwaho n'ababyeyi batoranijwe, bigishwa indirimbo, bakagaburirwa, bakabigisha indangagaciro z'umunyarwanda bityo bakazabasha gutangira amashuri abanza bafite imitwe isukuye.

Ikibaho gifite ibara ry'umukara cyanditseho amagambo yiganjemo imibare agaragaza ingero, icyo kibaho giteye ku gikuta cyubakishije amatafari ya munnyu atukura akoteye, atariho ibindi bintu biyometseho.

Iyo ujyiye mu mashuri yisumbuye usangamo amasomero agiye atandukanye abarimo ibitabo umunyeshuri ashobora kuza agasoma akagira ubumenyi ku bijyanye n'amasomo yiga habaharimo udutajeri bigiye bipanzemo bikurikije amoko yabyo.

Abanyeshuri baba bagomba kubona imfashanyigisho zibafasha. Igitabo cy'umwaka wa gatatu k'Ikinyarwanda kigizwe n'amabara atandukanye arimo: umutuku, ubururu, icyatsi n'andi atagaragara. Ni yo mpamvu umunyeshuri iyo agifashe ashimishwa no kugisoma kubera ayo mabara.

Amashuri menshi yigamo abana bato, aba arimo intebe ngufi ku buryo babasha kuzicaramo batabangamiwe, haba harimo kandi ibibaho bandikaho bakoresheje ingwa ndetse abo bana bafite ibikapu bashyiramo ibikoresho by'ishuri.

Iyo bibaye saa sita abanyeshuri kubera gahunda yashyizweho na Leta yo kurira ku mashuri, bajya guterura ibiryo bakaza bakarya, bityo bikabafasha kugira ngo baze kwiga neza mu masaha ya nyuma ya saa sita. Inyuma y'amashuri yubakishije amatafari ahiye ya mpunyu, hari ubusitani bw'umucaca hagati yabwo harimo akayira kari kunyurwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano.

Amazu y'amashuri abanyeshuri bigiramo asakaje amabati y'ubururu ashaje, azitirwa n'ibiti biriho imbariro, ntago agezweho, nta munyeshuri wahigira ngo agire ubwenge buhagije kuko ni habi cyane.

Karindainndari ni igishushanyo kiba cyanditseho amatariki, kigaragaza iminsi ibyumweru bigize umwaka bityo umuturage yaba ashaka gusobanukirwa ibijyanye n'aho iminsi igeze cyangwa hari gahunda afite, akayirebaho maze agasobanukirwa.

Munsi y'ikibuga kitarimo sima cyangwa ngo kibemo agacaca, hari amazu menshi y'amashuri asakaje amabati atukura, afite inzugi z'ubururu n'amadirishya arimo ibirahure y'ubururu, yubakishije amatafari ya mpunyu.

Leta yakoze ibishoboka byose maze iha abantu mudasobwa bifashisha mu myigire yabo, ziba zifite akabara k'icyatsi n'umweru ku buryo umwana abasha kuzikoresha akabona ibyo akeneye, abana babiri bambaye amashati y'ubururu y'impuzankano bicaye mu ishuri bateretse mudasobwa ku ntebe ya pipitire bari kuyicomeka bareba ku ruhande.

Si byiza kumena imyanda ahantu habonetse hose. Impande y'umucaca, ahantu mu kibuga kitariho utwatsi, hamennye imyanda y'amoko agiye atandukanye, igizwe n'amashashi, ibipapuro, amacupa ibisigazwa by'ibintu bitandukanye n'ibindi.

Ku mazu menshi y'abanyeshuri bigiramo, harimo umwana uri kwiruka wambaye impuzankano y'ishati y'ubururu, ndetse inyuma y'inzu imwe, ku ruhombo rumanura amazi ruyavana hejuru, hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'inkweto z'umuhondo, yegeranye n'amazu y'ubwiherero.

Aho abasuye baparika imodoka, iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye ya mpunyu ifite ibirahure ndetse kumpande hakaba hariho umukaba usize irange ry'umweru ndetse iyo nzu ikaba ifite fondasiyo y'amabuye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru manini ngo aho abadusuye baparika.

Iruhande rw'ubusitani burimo umucaca mwinshi, hari igikuta cyubakishije amatafari, gifite fondasiyo y'amabuye, isize irangi ry'umweru, hasi hariho agakaba k'umukara, naho uwo hejuru hariho ak'ubururu, mu kazu kamwe hashushanyijemo inyuguti guhera kuri A kugeza kuri W n'imibare guhera kuri zeru kugeza ku icyenda.

Uburezi mu Rwanda bwitaweho, niyo mpamvu ahantu henshi usanga hubatse ibigo by'amashuri. Hari ibiba ari iby'abiyeguriye Imana, b'abamasera, ari bo barera abana, bakabatoza ikinyabupfura, bityo bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Amashuri menshi ahatari ubushobozi buhagije usanga abarimu baragiye baca imifuka bakandikaho ibihekane n'imibare maze abana baje kwiga bakajya babisoma barabireba mu gihe batari mu bizamini.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire, ryegeranye n'imirima ihinzwemo intoki ndetse n'indi itewemo imboga z'ibireti. Hafi aho, hari amazu asakaje amabati y'ubururu, afite amadirishya manini acibwamo n'urumuri ndetse n'ibiraro byororerwamo amatungo.

Amashuri abanza n'ayisumbuye leta yashyizemo intebe zitwa pipitire, ziba zifite aho umunyeshuri yicara n'aho yandikira ndetse ziba zifiteho n'umwanya umuntu ashobora kurambikwaho ikaramu mu gihe ari kwandika.

Mu ishuri ririmo ikibaho gisize irangi ry'icyatsi, cyandikishijweho ingwa y'umweru, harimo intebe ndetse n'ameza arambitseho impapuro, hariho andi meza manini ya mwarimu, afite amaguru maremare.

Amashuri ni ikintu u Rwanda rwitayeho cyane, ahantu henshi hubatswe ay'abanyeshuri bazajya bigiramo cyane cyane abiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, abafite ibirahuri binini byisanzuye bituma urumuri rubasha kugeramo imbere bifite n'inzugi nini ku buryo umunyeshuri wese abasha gucamo.

Ku kibaho, kiri ku gikuta giteye umucanga, gifite ibara ry'umukara. Handitseho ibazwa, mu cyongereza. Umwaka wa gatanu, mu ndimi, n'ubuvanganzo. Amahirwe masa. Ni ahantu ho mu ishuri ritarimo intebe nyinshi, aho abanyeshuri bicara bakiga.

Mu mashuri cyane cyane ayisumbuye acumbikira abana uba usanga hari ibitanda bigerekeranye ku buryo umuntu umwe arara hasi undi akarara hejuru. Haba harimo isuku ihambaye. Haba hari kandi utubati abanyeshuri babikamo ibikoresho byabo maze bakabifungirana ku buryo ntawubasha kubiba.

Mu muhanda wamabuye, uri kunyurwamo n'umugabo wambaye ijire y'umukara n'ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, yegeranye n'uruzitiro ruzitiye inzu nyinshi zisakaje amabati y'ubururu, zubakishije amatafari, impande y'urwo ruzitiro, hari indabo ndende zifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abamansera cyangwa abandi bihaye Imana b'abagore, iyo bambaye imyenda yabo barubahwa cyane. Ku muhanda uri impande y'inzu zubakishije amatafari, zifite amadirishya y'umweru arimo ibirahure, hari abagore benshi bari kwambuka mu muhanda, ubona ko bafite gahunda imwe.

Mu myigire y'abanyeshuri usanga hari imfashanyigisho bifashisha kugira basobanukirwe amasomo, hari ibishushanyo byinshi Leta iba yaraguze ikohereza ku mashuri kugira ngo abanyeshuri bajye bage babyigiraho, harimo nk'ikigaragaza amagufa y'umuntu, bityo umunyeshuri uri kuyiga akabasha kubireba maze agasobanukirwa ibijyanye n'iryo somo.

Abanyeshuri muri iki gihe basigaye biga ibintu by'ikoranabuhanga cyane, ni yo mpamvu iyo ugiye ku bigo by'amashuri usanga bazi gukoresha mudasobwa. Rimwe na rimwe nanagiyeyo baba bafite ahantu bajya bakicara maze bakareba insakazamashusho nta kibazo bafite kubera ko u Rwanda rwabahaye amahirwe.

Abihayimana bafite uruhare rwinshi mu iterambere ry'Isi n'u Rwanda muri rusange. Mu muhanda impande y'inzu isakaje amabati y'ubururu barimo bari kugenda bambaye amavara bafite n'imipira ku maboko ubona ko bafite imbaraga nyinshi.

Umuhanda wamabuye munini, wejyeranye n'ubusitani bugizwe n'umucaca ndetse buteyemo ibiti by'amoko agiye atandukanye, hari urugo rufite umuryango munini usize irangi ry'ubururu, ndetse kuru ruhande hateyeho ibiti birebire, bikurura umwuka ndetse n'imvura.

Mu muhanda wegeranye n'akayira k'abanyamaguru, harimo abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano, harimo imodoka kandi y'umuhondo ndetse munsi y'umuhanda hari icyapa, hari amazu menshi akikije uwo muhanda yiganjemo asakajwe amabati atukura.

Ku kigo cy'amashuri, hejuru hariho amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo bya kake, hasi mu gacaca bakurikiye umuntu uri kugira icyo ababwira, uri imbere.

Iruhande rw'uruzitiro rw'ibyuma bikikije umuryango mugari, ufite inkingi z'umweru ndende, hari ubusitani buteyemo indabo z'amoko agiye atandukanye, mo imbere muri urwo ruzitiro harimo ubundi busitani buteyemo ibiti birebire ndetse hari n'inzu hejuru ifiteho agasaraba gato.

Mu mashuri menshi usanga harimo amasomero kugira ngo umwana naza abone uko yiga. Mu isomero uba usanga hari umwarimu ushinzwe gukurikirana uburyo ibitabo bisomwa ariko kandi abanyeshuri baba bafite uburenganzira bwo kuza bakinjiramo, bakicara bagatira ibitabo bashaka gusoma.

Umuco nyarwanda ntugacike, abaturage benshi bazi akamaro k'umuco niyo mpamvu ku ibigo by'amashuri abana bambaye imikenyero, bafite imyitero ndetse n'ingabo n'amacumu, bari kubyina imbyino gakondo, aho bari hari ikibuga cy'imikino y'intoki gifite udukangara abakina iyo mikino banagamo umupira.

Mu mazu menshi y'amasomero, iyo uyasuye usangamo ibitabo bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana. Akenshi usanga ari iby'amasomo biga kuko iyo babonye umwanya bagenda bagasura ayo masomero, maze bagasubiramo amasomo yabo.

Ecole Autonome de Butare ni ishuri riherereye mu Karere ka Huye, ryubakishijwe amatafari ahiye cyane cyane ku ruzitiro rwaryo ndetse icyapa kiriranga gisizeho irangi ry'umweru. Imbere yacyo hari ubusitani bugizwe n'umucaca ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Hagati mu banyeshuri bicaye barambije amaguru, bambaye impuzankano y'amashati y'amaboko magufi y'umweru, n'amapantaro ya kake ndetse n'amajipo, bicaye barambuye amaguru, hagati yabo harimo umugore wambaye inkweto z'umweru n'umupira w'ingofero, uri kugira icyo abwira abo bicaye.

Iruhande rw'umuhanda, wa kaburimbo. Hari ibyapa bigiye bitandukanye, harimo ikiranga ko aho ahantu, hakorera ikigo cy'igihugu, gishinzwe ubugenzacyaha, benshi bita RIB. Impandeda y'igipangu ku muhanda, hari ubusitani buteyemo igiti kirekire.

Mu busitani bwiza buri mpanda y'inzu y'igorofa, iri ahantu haparitse imodoka, harimo ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo, n'icyatsi, muri ubwo busitani hateyemo ibiti harimo ibifite ibara ry'umutuku n'ibindi bifite amababi y'icyatsi.

Ikaze mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Saint Gabriel mu ntara y'iburasirazuba, ni ikigo kigisha amasomo agiye atandukanye, gifite agasanduku k'iposita mirongo itandatu na gatanu Butare, ni ahantu heza iyo uhagiye uharonkera ubumenyi buhagije.

Mu ishuri harimo umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'ijakete uri kwigisha abana bambaye amashati y'umweru nk'impuzankano, ari kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye, ahantu bari hari ikibaho, birashimishije pe! Kwiga ni ingenzi kuko iyo ubisoje ubona ibyo ukora.

Ikoranabuhanga mu Rwanda ryateye imbere ariko cyane cyane mu mashuri uba usanga leta yarakoze ibishoboka byose kugira ngo umunyeshuri wese abashe kugira icyo amenya ku ikoranabuhanga, niyo mpamvu abahungu bambaye imipira y'amaboko magufi y'ubururu iriho ishusho y'umuntu ku ruhande bari ahantu mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Mu Rwanda ikoranabuhanga ryita niyo mpamvu ku mashuri iyo hagiye usangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo nka mudasobwa n'imashini yifashishwa mu kureba uturemangingo duto duto tugaragara ku maso.

Ikoranabuhanga ubu ryabaye inkingi ya mwamba mu bikorwa byose byifashishwa mu burezi. Ni yo mpamvu umugabo wambaye ikote ririho Ibendera ry'u Rwanda ry'umukara n'ishati y'umweru, wambaye amataratara, ari mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, gisize irangi ry'umweru.

Mu cyumba kirimo amarido maremare y'umweru, harimo agatajeri kariho intebe, ndetse n'ameza ku ruhande, inkweto zo kogeramo, gifunguye amadirishya ndetse hari kwinjiramo urumuri rwinshi. Inkuta zacyo zisize amarange y'umweru, ku buryo urimo aba abona, urumuri ruhagije.

Munsi y'ubusitani buri hagati y'amazu menshi atandukanye bukikijwe n'indabo ndetse bwo bukozwe n'umucaca, hari amazu ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru gatwikiye ku buryo uri kugacamo atabasha kwicwa n'izuba.

Amashyamba ni ingenzi, niyo mpamvu ahantu henshi hari inyubako ziteraniramo abantu haba hateye ibiti kugira ngo abantu bahaza bajye bahumeka umwuka mwiza, nibyo twese turabizi ko ibiti bikurura imvura bigatuma abantu bari aho biteye bahora bahehereye.

Ikoranabuhanga mu Rwanda ryitaweho, uburezi na bwo burashyigikirwa, umunyeshuri wiga ibijyanye n'amasiyanse aba afite inzu ajyamo akabasha gukoreramo uturimo tw'amaboko tujyanye n'ibyo yiga bityo akagenda asobanukirwa n'amasomo yize.

Impande y'ibiti biri mu busitani, hagiye harimo n'utwapa turanga aho abantu bagana, hari amazu asize irange ry'umuhondo, asakaje amabati y'umutuku, ibyo biti ni ingirakamaro kuko bituma abaturage babasha guhumeka umwuka mwiza.

Muri kaminuza y'u Rwanda haba hari ibyapa bigiye bitandukanye bitambutsa amakuru bitewe n'icyo uwabikoze aba yifuza kugaragaza, kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, harimo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye zifite amabengeza kandi zishimishije.

Iruhande rw'inyubako ndende yubakishije amatafari, ifite amadirishya ateye irange ry'umweru, hari ubusitani buteyemo imikindo. Iruhande rw'ubwo busitani hari utuyira tw'abanyamaguru, turimo amapave ndetse ku ruhande hagiye hariho utundi tuntu dusize amabara y'umweru n'umukara.

Nyuma y'uko leta y'u Rwanda yitaye ku ikoranabuhanga ubungubu ibikorwa byinshi niho bikorerwa, abaturage ubungubu bakangukiye gukoresha mudasobwa, ndetse abenshi baraziguze kugira ngo bajye bazifashisha mu mirimo itandukanye, imbere y'umugabo ufite uruhu rwera mu nzu irimo amarangi y'umweru n'amatara ifite ibirahuri binini hicayemo abantu benshi bafite mudasobwa bakurikiye uri kubabwira imbere ufite uruhu rwera.

Inzu ifite inkingi ndende z'umweru zisa neza ndetse n'ibirahure bibonerana bituma muri iyo nzu hagaragaramo urumuri rwinshi, harimo ameza ku buryo umuntu ashaka kwicara yabona aho arambika amaboko.

Mu mazu yabugenewe usanga harimo ibirahure byinshi ndetse harimo n'amarido afasha kugira ngo abari mu mazu batabasha kwakira urumuri rwinshi. Haba harimo intebe uyicayeho aba yadabagiye, y'imifariso kandi uyicayeho abasha kugereka ukuguru ku kundi.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye harimo ikigega kirekire hejuru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, aba agaragara neza ndetse hejuru y'icyo kigega hari ibicu by'ubururu birimo n'ibindi bice by'umweru, icyo kigega kirekire gisize irangi ry'umweru rigaragara neza.

Ahantu hari inyubako ndende y'igorofa isize irangi ry'umweru ariko rijya kuba umuhondo, ahagana imbere yubakishije amatafari ahiye, hari ibyuma n'imigozi iriho imyenda yanitse, iri imbere mu ruzitiro rw'ibyuma rwegeranye n'ubusitani bw'indabo zikoze umurongo uteye impande y'inzira irimo amapave.

Mu ikoranabuhanga mu Rwanda turakataje, hejuru y'ameza hateretseho imashini yifashishwa gusohora impapuro, mudasobwa, telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga by'imigozi bitwara amakuru.

Abaganga ni abantu bafite akamaro kenshi, yaba batariho indwara zatwica, ni yo mpamvu tudakwiye gukerensa akamaro kabo mu buzima busanzwe, ahubwo dukwiye kububaha tukemera ko bashoboye, kandi ni byo nta muntu wakerensa ubushobozi bwabo.

Impande y'ubusitani bugizwe n'umucaca, ndetse buteyeho n'indabo, hari akayira k'abanyamaguru karimo amapave, akikijwe na borudile. Hepfo hari amazu agerekeranyije y'igorofa, hanze yayo, hari imyenda ihanitse.

IPRC Kitabi, ni kaminuza imwe yigisha ubumenyigiro n'imyuga. Yigisha ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'ubukerarugendo. Ni ishuri rimwe mu mashami, ya za IPRC nyishi ziri mu Rwanda.

Inzu irimo amakaro, bigaragaza ko ifite isuku. Kuko iyo ahari, kuko aba ari umweru, bakunda kuyakoresha isuku, bigatuma abantu bahagenda babona hari umutekano kandi hasukuye. Mu igorofa hari amakaro meza y'umukara n'umweru. Ahagana hirya ku gikuta gisize irange ry'umweru, hicaye umuntu ku ntebe, ufite ibintu ahugiyemo.

Mu mazu menshi abantu baba bakodesha uba usanga harimo agasuku kuko baba bakitaho kugira ngo batazaterwa n'indwara z'umwanda, mu mazu ateganye yubakishije amatafari ya munyu, afite inzugi z'umukara, ndetse asakaje amabati y'umweru, afite inkingi z'ubururu, hari isuku nyinshi kuko nta mwanda uhagaragara, harakoropye ndetse haranakubuye.

Munsi y'akayira k'abanyamaguru, karimo amapave, gakikijwe na barudire z'umweru, hari amazu y'amagorofa, yegeranye n'ubusitani bwa pasiparumu, bigaragara ko yitabwaho cyane. Ku ruhande rw'ayo mazu, hari ibiti byinshi, bikurura akuka keza ku bantu baba muri ayo mazu.

IPRC Kitabi mu ishami rya kaminuza yigisha ubumenyingiro mu Rwanda, riherereye i Kitabi aho yigisha amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro hari igipapuro kibambye ku ruzitiro rwawo kiriho umugore ufite indangururamajwi mu ntoki n'abandi bantu bari gukora ibintu bijyanye n'imyuga.